Inama, inama n'ihuriro ri itegurwa, hagambiriwe gukemura ibibazo bitandukanye nko kwiga ku kibazo gihari, kukungurana ibitekerezo, gushaka iterambere, kugerageza guteza imbere ikigo runaka, gufatirwa ingamba zikaze z'iterambere n'ibindi bitandukanye.

Inama, inama ni hamwe mu hatangirwa ibitekerezo bitandukanye aho ubuyobozi bugeza ibitekerezo ku baturage n'ubuyobozi bw'inzego z'umutekano izishinzwe iperereza inzego zose zitandukanye zishaka kugeza ubutumwa ku baturage zigahuriza hamwe mu nama bakabasha kungurana ibitekerezo bagakemura ibibazo bihari n'ibindi bibazo bitandukanye.

Inama, inama n'amahuriro ni hamwe hamwe mu hantu tugomba kujya kandi tukahakoresha mu buzima bwa buri munsi kuko niho tubasha guhererwa amabwiriza, niho tubasha guherwa amakuru mu buryo butandukanye kandi bwihuse akagera kuri benshi, ni hamwe mu hantu higirwa inama nyunguranabitekerezo igera ku iterambere, ni hamwe muhagarirwa abakoze nabi kandi hagashimirwa abandi bityo inama igomba gutegurwa kandi ikubahirizwa na buri wese.

Inama n'amahuriro, inama n'amahuriro ni aho abayobozi bahura n'abaturage bayobora bakabaganiriza, bakungurana ibitekerezo, bakareba imigendekere myiza y'akazi gakorwa n'imibi ikanengwa, imyiza igashimwa ndetse ugasanga hatangirwa ubutumwa butandukanye, aho bahasangirira amazi yo kunywa, hakagerwaho ijambo runaka nyamukuru ryateganyijwe, inama ugasanga ihuza abantu kandi igafasha muri byinshi.

Ubuyobozi bw'igihugu mu nzego zitandukanye buhuriza hamwe abaturage bakoresha inama, usanga umuyobozi aba yateguye ibyo agiye kubagezaho kugira ngo asha kungurana ibitekerezo, gutanga ingingo zo kuganirwaho, gukemura ikibazo gihari n'ibindi bitandukanye. Aha ashobora kubona hateguwe ibyicaro biri bwicaremo abayobozi, abaturage baganirizwa bandi.

Umuco, umuco ni kimwe mu bikwiye kuranga abaturage b'Igihugu icyo ari cyo cyose nk'u Rwanda cyangwa Afurika n'isi muri rusange, kubera ko usanga Igihugu kitagira umuco gicika abantu bakava ku ndangagaciro basigiwe na ba sekuruza k'imbyino gakondo, imyiyereko, imyidagaduroa, kuboha ndetse no kwivuga ibigwi n'imyato, amacumu n'ibindi, ibyo bituma Igihugu gitandukana n'ikindi ndetse ubuzima bw'abantu bukaba bwiza kurushaho.

UmucO, umuco ni kimwe mu biranga igihugu runaka aho usanga mu muco nyarwanda ababyeyi cyangwa abantu b'igitsina gore, baba bambara urugori bigaragaza umubyeyi kandi no kubyara ukambara ugakenyera ukikwikwiza ku buryo biranga indangagaciro z'igihugu ndetse n'imyitwarire myiza y'abaturage b'igihugu n'abaturarwanda muri rusange.

Umuco, umuco ni ikintu gikwiye kubungabungwa, tubungabunga imbyino gakondo nk'ikinimba, igishakamba, kugira ngo tubashe kudatakaza umwimerere w'igihugu cyacu, tukayamurikira amahanga tukaza kubyifashisha mu birori, bityo ubuzima bw'igihugu bugatera imbere kandi bukagenda neza.

Umuco, umuco ni kimwe mu bigaragaza amateka y'igihugu runaka, imigirire n'imigenzereze yacyo uko yakorwaga kuva kera kugeza ubu, ugasanga hagaragazwa nk'ibitandukanye nko mu Rwanda, uburyo twanyweraga mu bicuma, mu bikebano, tukanywera mu tubindi n'ibindi bitandukanye, tugasangira, tukarya umutsima w'ubugari n'ibindi.

Umuco, umuco ni kimwe mu bikwiye kubungabungwa uko bigaragaza umuco n'amateka by'igihugu, bikagaragaza inkomoko yacu, ibyoyiza twakoraga kera cyane mbere yuko iterambere riza na nyuma yuko rije umuco w'igihugu ugomba kwitabwaho dukoresha insyo mu gusya twiyibutsa tugasya amasaka tugakoresha ingasire, insyo, ikibo n'ibindi kugira tubashe kubungabunga umuco wacu w'igihugu mu buzima bwa buri munsi.

Urugomero rw'amashanyarazi mu ikwirakwizwa ryayo, ni kimwe mu bintu byihutisha ubukungu bw'igihugu, aho usanga bibashije kugera ku baturage benshi, inganda zigakora, abaturage bakabasha kugira ubuzima bwiza bakabona akazi n'ibindi.

Iyubakwa n'ikwirakwizwa ry'amashanyarazi, iyubakwa n'ikwirakwizwa ry'amashanyarazi ni kimwe mu bintu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bituma tubasha gutera imbere mu mpande zitandukanye, tukabona uburyo bwo kubaka inganda, tukabona uburyo bwo gucana hakabona, tukabona uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ritandukanye rikene amashanyarazi nk'imashini n'ibindi bitandukanye.

Amashanyarazi n'ikwirakwizwa ryayo ni kimwe mu bintu bikenewe n'abaturage ba buri munsi aho bashyirirwaho mubazi zibara umuriro w'amashanyarazi n'abakozi babifitiye uburenganzira bikigo gishinzwe amashanyarazi aricyo cyitwa ReG, icyo gihe ugasanga bikenewe kandi bifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi bubafasha.

Amashanyarazi n'ikwirakwizwa ryayo ni ibintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko usanga aho iterambere rigenda rigana dukenera ibikoresho by'ikoranabuhanga rikeneye amashanyarazi ugasanga itumanaho ryose rikeneye amashanyarazi aho usanga amahindurazi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu gukoresha imashini n'ibindi nk'inganda ndetse kumurika tukarwanya umwijima ubukungu bukiyongera.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni kimwe mu bintu bidufasha kubona umuriro wo guwukwirakwiza no kuwukoresha aho usanga rimwe na rimwe bijya bisimbuzwa bikitabwaho mu gihe byangiritse, ugasanga ababishinzwe kandi baba bafite ubumenyi babasha gukoresha ibikoresho bitandukanye bagakoresha amapensi, bagakoresha ibikoresho bitandukanye bambaye imyenda yabugenewe n'amataburiye n'ingufu zabugenewe bakabasha kubikurikirana.

Amashanyarazi ni kimwe mu bintu bikenewe cyane kugira ngo iterambere rirusheho kwihuta, aho usanga ku mihanda hashyirwa amatara, ugasanga bigaragara neza bityo bikoroshya imigenderanire kandi ugasanga imikorere irakorwa amanywa n'ijoro, ugasanga ahari umwijima himukiye umucyo ndetse ibikorwa by'iterambere bikarushaho kwiyongera.

Amashanyarazi n'ikwirakwizwa ryayo cyane cyane hakoreshejwe imirasire y'izuba, ni ngombwa mu buzima bwacu kubera ko ahatabasha kugera mu bikome ku miyoboro migari, ni ngombwa ko dukoresha imiyoboro y'izuba kugira ngo tubashe gukora ibikorwa byacu mu buryo bwiza kandi bitagoranye.

Amashanyarazi n ikwirakwizarwa ryayo ni kimwe mu ibintu byo kwitabwaho dukoresha abantu babifitiye ubushobozi kandi n'ubunararibonye kubera ko amashanyarazi akoreshejwe nabi ashobora kwangiza cyangwa akangirika, ugasanga rero biteje ikibazo leta, abaturage bayikoreshaga n'ibindi.

Amashanyarazi amashanyarazi n'ingomero zayo ni bimwe mu byifashijwe mu gukwirakwiza umuriro abaturage bacana, akifashishwa mu gukoresha ibikoresho bitandukanye byikoranabuhanga, hakifashishwa ibiti n'inkingi zayo kugira abashe kugezwa ahagera bityo ugasanga agenda agera kuri benshi kandi iterambere rikihuta.

Amashanyarazi n'ikwirakwizwa ryayo ni ngombwa buzima bwacu usanga iterambere ry'igihugu natwe ubwacu muri rusange riradufasha tukabasha kubaho tukabasha kubona iterambere ryihuse ry'inganda ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ryakenera mu buzima bwa buri munsi ndetse ugasanga ari igikorwaremezo kibasha kwimura umwijima kikazana umucyo mu buzima bwacu bwaba bwiza kurushaho.

Amashanyarazi, amashanyarazi ni kimwe mu bintu dukenera mu buzima bwa buri munsi, ni byiza ko inkingi n'insinga zijyana ayo mashanyarazi bikwiye kwitabwaho, bityo ubuzima bwacu bukaba bwiza tukabasha kubyitaho, mu buryo bwiza kandi butunogeye bityo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, ubuhinzi bukorwe ariko butangije ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'ibindi.

Amashanyarazi n'ikwirakwizwa ryayo hifashishijwe inkingi zayo, imigozi uyatwara byose usanga ari ibintu bikorwa kugira ngo abashe kuvaho akusanyirizwa ku ngomero n'ahandi agere ku bayakeneye ugasanga ari ibintu byiza cyane kuko bifasha mu iterambere ry'igihugu, abayagezwaho bafashakora imirimo itandukanye, bakajyana n'ikoranabuhanga n'ibindim byose byihutisha iterambere.

Inyubako za Leta ni hamwe mu hantu h'ingendo dukenera serivisi zitandukanye. Ahabikwa inyandiko z'Igihugu. Aho dukura amateka aranga Igihugu. Tukahabona akazi, imirimo n'ibindi bintu bitandukanye. Tukahabariza ubuyobozi bwacu. Ni igicumbi cy'amateka yo kwibuka Jenoside. Ibikoresho byakera Igihugu cyakoreshaga n'ibindi byose bitandukanye.

Inyubako za Leta ndetse n'izihuriweho n'abaturage muri rusange ni kimwe mu bintu tugomba kwitaho cyane kandi tukabibungabunga kubera ko usanga inyubako zikubiyemo amateme n'ibiraro ari ibintu bidufasha kwambukiranya imipaka, ubuhahirane, ubwikorezi n'ibindi bintu bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, bituma dutera imbere tukabona amafaranga n'ubuzima bwiza.

Inyubako za Leta zirimo ibibuga by'umupira w'amaguru, imipira y'intoki, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi bituma twidagadura bikadushimisha, dukora imyitozo ngororamubiri, bikatubyarira akazi n'amafaranga, ni ngenzi mu buzima bwacu.

Inyubako za leta, inyubako za leta ni zimwe mu nyubako zikwiye kwitabwaho, cyane cyane imihanda, amatara n'amashanyarazi, ibinyabiziga bibasha gutambuka mu mihanda iyo ari myiza, ugasanga tubasha kubona iterambere ry'inganda n'ibindi iyo dufite amashanyarazi, kubera ibikorwa byiza bya leta, niyo mpamvu dukwiye kubyitaho kandi tukabibunganga tukaba bandebereho tutitaye ngo sitwe twabyubatse cyangwa n'iki kubera ko bigira uruhare mu iterambere ryacu.

Inyubako za Leta, inyubako za Leta ni hamwe muho tubonera serivisi zitandukanye, ugasanga zibasha kubika inyandiko z'igihugu, ugasanga ari ahantu habasha kubika amateka y'igihugu, ahantu hakorera ubuyobozi butandukanye, aho tujya twese tugahabwa serivisi zijyanye n'igihugu cyacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako za leta n'imipaka igabanya ibihugu, inyubako za leta nk'amateme n'imbibi runaka zigabanya ibihugu. Ni ngombwa mu buzima bwacu kuko bituma tubasha gutandukanya amategeko agenga ibihugu bitandukanye, tuKamenya kugira ubuhahirane hagati y'abaturanyi bacyo, ukamenya ko binjiye mu gihugu kitari icyanyu, bakamenya ukuri bwitwaje bityo bigatuma imibereho myiza y'abaturage n'ubuhahirane byiyongera.

Inyubako za Leta ni hamwe mu hantu hatangirwa serivisi nyinshi nk'ibigo mbonezamikurire, aho usanga abana bashyirwa bari mu mirire mibi, bakabasha kwitabwaho bari hamwe, hatekererwa indyo yuzuye, ababyeyi babo bigishwa kuyitegura no kuyitanga, kuyiha abana babo n'ibindi bitandukanye.

Inyubako za Leta, inyubako za Leta zirimo imihanda yo munsi y'ubutaka, ibinyabiziga bibasha kunyuramo, bikoroshyanya kunyuranaho kw'ibinyabiziga, bigatuma iterambere ryihuta, ryaba iry'ubukungu, imodoka nini zitandukanye, ugasanga ubuzima bw'igihugu buri kugenda neza kurushaho, ni byiza ko bibungabungwa kandi bikitabwaho na buri wese.

Ubutabera ni ikintu kimaze kwitabwaho cyane, aho usanga mu turere tunyuranye tw'Igihugu, harashyizwe inzego zitanga ubutabera, usanza inzego zishinzwe ubushinjacyaha zizwi nka RIB, ugasanga abaturage barashishikarizwa kwirinda ibyaha n' ibisa na byo, ku buryo byakumirwa n'ibindi, aho inzego z'umutekano, zibagira inama yo kubyirinda, zikabagezaho ijambo ry'uburyo babisobanukirwa kandi bakabyirinda.

Ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ibintu ukwiye kwitabwaho aho usanga ubuyobozi bukwiye gutanga imbwirwaruhame dushikariza abaturage mu kubyitaho twibuka jenoside, n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwangiritse mu igihe cy'amakuba yagwiriye u Rwanda n'ibindi.

Ubutabera, ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu biri mu bikwiye kubahirizwa. Leta, abatuye isi, abakuru n'abato bakabasha kubahana, kugira ngo tubashe guhabwa ubutabera uwakosheje ahanwe mu ruhame, agirwa inama, ahabwe igihano gikwiriye icyaha yakoze, abishimirwe nimba yagize neza, uburenganzira bwe bwubahirizwe, umwana yige, umukuru ahabwa ibyo agombwa na leta, leta nayo ikore ibyo isabwa, isaba abaturage n'ibindi.

Ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ni ibintu byubahirizwa n'abantu batandukanye kandi bikaba ari inshingano ya buri muyobozi, aho usanga abayobozi bakoranyiriza hamwe abaturage bakabakemura ibibazo mu ruhame, abandi na bo bagaha ubutabera buri wese arenganura n'undi kandi agacirirwa urubanza uko bikwiye, ugasanga bahuje hamwe buri wese atanga ibitekerezo n'ibibazo afite kugira ngo bikemurwe n'ubuyobozi.

Ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni bimwe mu byibandwaho n'abayobozi aho bahuriza abaturage hamwe bakabacira imanza bakabasha kubarenganura abarengana kandi ugasanga babagira inama ijyanye n'imibanire myiza ubuzima bwabo gutanga mituweli n'ibindi. Usanga abuyobozi ari bamwe mu ba bafite inshingano ya mbere mu gukemura ibibazo abaturage bityo ubuzima bu bakarushaho kuba bwiza.

Ubutabera, ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni kimwe mubigomba kubahirizwa na buri wese kubera ko, usanga bituma abantu babana mu mahoro, buri wese agakora inshingano ze uko bikwiye ndetse ugasanga byongera ubumwe n'urukundo kuri Leta ndetse n'abaturage ubwabo.

Uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera ni gikwiye kwitabwaho na buri wese, cyane cyane abayobozi cyaneyobozi ku baturage babishinzwe, kubera ko ni byiza ko inzego z'umutekano nka police n'abandi batandukanye, baturage, amarondo y'umuga n'ibindi bigomba kwitabwaho kugira ngo birengere uburenganzira bw'ikirema muntu, umutekano n'ubuzima bibe byiza kurushaho ntihagire urenganya undi, bityo tube mu isi ituje kandi itekanye.

Ubwikorezi bwo mu muhanda n'inzira z'abanyamaguru, ni kimwe mu bintu byitabwaho buri munsi kuko bikoreshwa kandi bigakenerwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, aho usanga imihanda ya kaburimbo n'ibindi nko mu karere ka Nyagatare n'ahandi byubakwa ugasanga imodoka zaba iza leta iz'abikorera n'iz'abantu ku giti cyabo zose ziwugendamo umuhanda, kandi hakubaka utuyira tw'abanyamaguru ku mihanda bigatuma ubuzima burushaho kuba bwiza.

Ubwikorezi n'imodoka zitwara abagenzi rusange. Ubwikorezi n'imodoka zitwara abagenzi rusange, ni ingenzi ku buzima bwacu zidufasha kuva mu gace kamwe tujya mu kandi, ubuhahirane, bidufasha kugera ahantu tutabasha kugera n'amaguru mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ugasanga biragabanya umuvundo w'imodoka nyinshi zitandukanye kubera koba turi muri mwe turi benshi bityogasanga iterambere n'ikirere birushijeho kuba byiza kurushaho.

Ubwikorezi, ubwikorezi bukorewe ku butaka bibashisha umuhanda nko gukoresha imodoka nini z'amakamyo ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bituma tubasha kwambukiranya imipaka tugatwara ibicuruzwa mu gace kamwe n'akandi, bityo ubuzima bukaba bwiza tukabasha gucuruza n'ubundi buryo butandukanye tukigisha amategeko y'umuhanda dukoresheje amamodoka atandukanye nk'amakamyo n'ibindi bityo ubuzima bwacu bukagenda neza kurushaho.

Umuhanda ni umwe mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu rusange bwifashishwa n'abantu benshi batandukanye, baba bafite ibinyabiziga nka moto, ibinyamitende nk'amagare, byose ugasanga byoroshya imigenderanire, ubuhahirane, n'izi ngendo zikihuta, ubukungu bukiyongera na za serivisi zibasha kuboneka no gutangwa byoroshye.

Imihanda rusange, imihanda rusange n'utuyira tw'abanyamaguru ni hamwe mu hantu hakwiye gukorwa neza kandi hitaweho kugira ngo harengere ubuzima bwa benshi, usanga ibinyabiziga bihakoresha binyuranaho neza, abaturage bakabasha kugira inzira banyuramo, bityo ubugenderanire bukihuta kandi n'ibikorwa byacu bikagera aho bigomba kugera bitagoye.

Ubwikorezi rusange n'inzira z'abanyamaguru bimwe mu bikenewe muzima bwacu bwa buri munsi aho usanga imodoka ntoya zigenda mu muhanda wa kaburimbo zishobora hashobora kwigirwamo amategeko y'imihanda, ugasanga abanyamaguru bafite inzira bagomba kunyuramo ku buryo usanga birinda impanuka hakabasha kubaka amategeko y'umuhanda bityo ubuzima bw'abaturage n'abakoresha imihanda bose bakagubwa neza.

Umuhanda ni hamwe mu hakoreshwa n'abantu kimwe n'ibinyabiziga, usanga hahuza inyubako zitandukanye, hagahuza uduce tumwe n'utundi abaturage kandi umuhanda ukaba urimo amabara menshi atandukanye harimo amabara y'aho bambukira ugaragaza abanyamaguru bashobora kunyura ibyabiziga bikabategereza kugirango ngo byose bikorwe hirindwa impanuka zo mu muhandatyo, maze ugasanga ari byiza kuko bigabanya ibyago byo gukoresha umuhanda.

Inyubako za Leta ndetse n'imihanda y'imigenderano, usanga ari ibintu bifasha cyane, aho usanga nka Nyagatare hari imihanda myinshi itandukanye, irimo ibyapa biranga amerekezo n'inyubako zitandukanye, ibikorwa runaka nk'ahari amakiriziya n'ahandi, bikifashishwa n'imodoka mu kwikorera abantu n'ibintu, moto, amagare n'ibindi, ugasanga byose ari ibizana iterambere ry'igihugu.

Gahunda za leta zaba izo umutekano w'ibiribwa n'ibindi n'ubukungu, usanga kimwe mu bintu abaturagetaho usanga bahurira hamwe mu umuganda baku umwe bagahana ibitekerezo bavugako bakicungira umutekano aho usanga zimwe mu nzego za leta nka polisi nibi naba abandi bafasha mu icyo gikorwa kigenda neza ryacyo bigasanga igihugu gitera imbere vuba kandi byihuse.

Inzego z'umutekano n'amarondo y'umwuga, ni kimwe mu bifasha igihugu mu gucunga ituze, umutekano, n'amahoro by'abanyagihugu, aho usanga abaturage bashyiraho amarondo y'umwuga, inkeragutabara n'uburyo butandukanye, ugasanga ikibazo kibaye gikemukira hasi, aho kugira ngo bikomeze bizamuka bijya hejuru, ugasanga niyo ni imwe mu nzira zo kwishakamo ibisubizo, igihugu cyacu cyadushyiriyeho.

Kwicungira umutekano, ni kimwe mu bintu byimakajwe na Leta y'u Rwanda, aho usanga abayobozi batandukanye bakoresha inama, bagahuza abaturage hamwe, bakigishwa ko bakwiye kwicungira umutekano, bashyiraho amarondo, bakora umuganda w'igihugu, bakora byinshi bitandukanye bituma ubuzima bugenda neza, kandi abaturage bakabaho batekanye.

Inzego z'umutekano ni zimwe mu zifatanya n'abaturage mu miganda rusange n'ibindi bikorwa biteza imbere abaturage, aho bahurira hamwe bagakora amakoperative, bakora umuganda, imihanda bakora n'ibindi bikorwa biteza imbere Igihugu ku buntu kandi nta kiguzi basaba.

Umutekano ni kimwe mu bintu zijwe ishinga n'igihugu cyacu. Aho usanga hashyirwaho inzego zitandukanye zishinzwe gucunga umutekano. Inzego z'irondo ry'umwuga, gisirikare, polisi, hakaza abagenzacyaha bazwi nka RIB. Icyo gihe ugasanga byose bibaho kandi birubakitse mu nzego zose. Ibi rero bizamura ubutabera bw'abaturage ndetse no kurenganurwa mukurwanya umuco n'akarengane ndetse na ruswa.

Zimwe muri gahunda z'iterambere ry'igihugu nk'umuganda n'ibindi, ni bimwe mu bintu byitabirwa n'abaturage, usanga bateranira hamwe bakora byinshi bibateza imbere, bakishyira hamwe, bagahurira hamwe bagakora imirimo y'amaboko, harimo guhinga n'ibindi bitandukanye, harimo gutema ibihuru, ibyo byose ugasanga ari kimwe mu bintu bizana iterambere ry'Igihugu, bikongera ubusabane n'imibanire myiza.

Umutekano no ku guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ni ibintu bikorwa abaturage babigizemo uruhare ubwabo, aho bahurira mu miganda, ibikorwa bitandukanye nk'ubudehe n'ibindi byose bifasha mu iterambere ry'igihugu kandi bikunga ubumwe bw'abaturage.

Umutekano ni kimwe mu nkingi z'iterambere zubabakiweho na Leta y'u Rwanda, aho usanga abayobozi beteranya abaturage bakabigisha kwicungira umutekano, ugasanga barimo barabahugura uko umutekano ucunga n'ingamba zikwiye gufatwa kugira urusheho kuba mwiza, ugasanga ubusabane bw'abayobozi n'abaturage urushaho kwiyongera.

Imikino ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ituma tugira ubuzima bwiza. tukagororoka, tukabasha gusohora ibyuya mu mubiri. Tukagira ubuzima buzira umuze. Tugakira indwara zimwe na zimwe ndetse ugasanga ari kimwe mu bishimisha abantu benshi, bakaruhuka mu mutwe. Bikazana amafaranga, ugatunga abawufite, ugatuma tubona ibikorwa remezo bibasha guhuza, guhuriza abantu hamwe bakiyunga. Bakagira ubuzima bwiza ndetse n'imibanire myiza muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngoramubiri ni kimwe mu bintu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, aho nko mu karere ka nyagatare usanga hizihizwa umunsi wa siporo rusange ugasanga uwiswe kamfuri zone, ugasanga iyo kamfuri deyi irimo irakorwa buri wa gatandatu, ugasanga ari ni ibintu byiza cyane abaturage bakayitabira bigafasha abantu kugabanya umubyibuho ukabije bagashobora kugira ubuzima bwiza neza.

imikino, imikino n'imyidagaduro ni ingenzi, usanga ari isoko y'amafaranga, isoko y'ibyishimo n'umunezero, ni ihuriro ry'abantu bashobora guhurs bakiyunga, ni ibintu binyuze amaso y'ababireba, ni isoko y'ubukire n'ibindi bihuza abaturage m buryo bw'ingeri zitandukanye.

Umupira w'amaguru ni kimwe muri siporo zihuza abantu benshi, aho usanga abaturage bawukunda ari benshi, ugafasha abakinnyi mu kubaho neza, amafaranga akaboneka kandi imitsi yo mu bwonko n'iki bikaruhuka kandi bikarambuka, usanga Rayon sports ari nziza, aho usanga imikino n'imyidagaduro cyane cyane umupira w'amaguru yarigaruriye imitima ya benshi.

Imyidagaduro n'imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu bintu by'ingenzi, mu buzima kubera ko usanga bituma umubiri ugororoka, tubasha kugira ubuzima bwiza, hakaba aho kwidagadurira ndetse ugasanga bihuza abantu benshi mu buryo butandukanye.

Umupira w'amaguru ni kimwe muri siporo zikunzwe, aho usanga igitsina gore abakobwa abakiri bato ndetse n'abakuze bose bakunda umupira w'amaguru bakawukina bakidagadura bakishimisha ndetse bagakora byose bituma ubuzima bugenda neza kandi uha amafaranga menshi kuko ni isoko y'akazi n'ibindi.

Imikino n'imyidagaduro nk'umupira w'amaguru ni kimwe mu bintu gihuza abantu benshi, ugasanga bakora imyitozo itandukanye, aho usanga ikipe y'umupira w'maguru, aba amakipe abihanganye n'ufite abakinnyi benshi cumi na bane, cumi n'umwe, ugasanga barimo bakina wese intsinzi bakabanza kwiyitoza no kwishyushya mbere yuko batangira umukino.

Imikino imikino ni kimwe mu bintu bigaragara mu karere ka nyagatare cyane wasanga harubatswe amasitade nk'izwi nka stade gorigota ugasanga hajyaho imikino myinshi itandukanye abantu bakina imipira umupira w'amaguru basiketi ugasanga barakina umukino w'intoki uzwi nka voreboro n'ibindi bitandukanye ugasanga biteza imbere ubuzima kandi bikazana amafaranga n'ibindi.

Imikino n'imyidagaduro. Imikino n'imyidagaduro ni kimwe mu bintu biteza imbere urubyiruko cyane cyane abakiri bato, abakuze ndetse n'abandi. Kuko bituma ubuzima buba bwiza, bakinjiza amafaranga, bakabasha kubaho neza ndetse bakabeshaho neza n'imiryango yabo, kubera ko usanga ibikorwaremezo nk'amasitade ibindi, ari bimwe mu bihuza abantu bakabasha kuganira bakunga ubumwe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ikenewe cyane ku buzima bw'umuntu kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi bukosotse. Ni ngombwa rero ko tugira imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kubaho neza tukabyukira mu muhanda dukora siporo yoroheje, tukihuta tukayirukanka, tugakora imyitozo ngororamubiri n'ibindi mu buzima bwacu.

Imihanda y'imigenderano. Imihanda y'imigenderano ni kimwe mu bintu dukwiye kwitaho, kuko iduhuza, igahuza utugari n'imirenge, igahuza imidugudu n'iyindi, bityo ubuhahirane bukaba bwiza, aho ibinyabiziga by'amahoteli n'ibindi bitandukanye bigenda bikadufasha kugemura ibikenewe bya buri munsi nk'ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bitandukanye bityo ubuzima bwacu bukarushaho kuba bwiza.

Imihanda n'utuyira by'utugenderano biboneka mu cyaro ni bimwe mu bifasha ubuhahirane ugasanga ari inzira y'amatungo ajya ku gasozi nubwo bigenda bisa n'ibigabanuka ahubwo bororera mu kiraro, ahubwo ugasanga izi nzira z'abanyamaguru ni nziza kubera ko zifasha mu iterambere no kugeza umusaruro ku isoko aho biri ngombwa ibintu bikagenda neza.

Imihanda y'imigenderano ni imwe mu ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi kandi ikaba ikenewe kuko yifashishwa mu guhuza abaturage batuye mu gace kamwe n'akandi, umusaruro ukabasha kubageraho, aho abayifashishije amagare, ahahingwa ibitoki bibasha gutambuka bikambuka mu gace kamwe bikajya mu kandi, ababikeneye bakabibona byoroshye, ababikora na byo bakabona amafaranga, ni byiza rero kwita ku mihanda y'imigenderano kugira ngo tubashe gutera imbere.

Imihanda y'imigenderano. Imihanda yimegenderano ni imwe mu mihanda ihuza uduce n'utundi, imidugudu n'iyindi, masibo n'andi ikoroshya ubuhahirane hagati y'abaturage batuye ahantu runaka bityo ugasanga ubukungu'iterambere ryabo birihuta mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Inzira z'abanyamaguru ni hamwe muho abantu banyura bisanzuye nta muvundo w'ibinyabizigaba uhaba, aho usanga umuntu agenda uko abyumva yisanzuye, agenda atembera ahantu hose kandi bikamufasha kugera aho yifuza nta kibazo cy'impanuka agize kubera inzira z'abanyamaguru n'imihanda y'imigenderano usanga nta binyabiziga byinshi birimo bityo bigafasha abaturage kwihuta no kugera aho bajya vuba.

Uduhanda tw'utugenderano ni hamwe mu hantu hifashishwa n'abaturage batandukanye bava mu nzira zimwe bajya mu zindi, icyo gihe ugasanga byoroshya ugenderanire bigatuma abaturage babasha kugeza umusaruro aho bawugeza aho usanga abantu bagendera mu nzira batuganiramoka tuyira ugasanga turi hagati y'ingo ndetse n'inzira zijya aho abaturage batuye hakaba hanyura ibinyabiziga ndetse hakifashishwa mu butabazi bw'ibanze.